Abantu batanu baricaranye, ni abagore batatu, umwana umwe, n'umugabo, bicaye ku ntebe za kinyarwanda, umugabo yambaye umupira w'ubururu, n'ipantaro y'ikigina, inyuma yabo hari urutoki, hariyo ni hariyo n'ibiti bya gereveriya, umugore umwe muri bo agaragara nkaho ari umukangurambaga, bitewe n'akantu yambaye mu ijosi, n'igitabo afite mu ntoki.

Abantu babiri ni umugabo umwe n'umugore umwe, bari ahantu hameze nko mu nzu. Umugabo biragaragara yuko akuze bitewe nuko yishingikirije umugore. Umugabo ni umwirabura mu gihe umugore ari umwera, yambaye ishati y'umukara umugabo, isaha, amadarubindi, n'ipantaro y'ikoboyi, umugore we yambaye ikanzu.